Abana biga mu mashuri abanza baba bakunda gukina cyane, niyo mpamvu abarimu babo bafata igihe gitoya bakabajyana hanze kugira ngo babashe gukina, nanone muri iyo mikino bashobora kwigiramo amasomo atandukanye, urugero nko kubara.

Abana biga mu mashuri y'incuke cyangwa se amarerero, baba bakeneye kugira ubumenyi bagira ariko bijyanye n'imyaka yabo. Abarimu bifashisha imfashanyigisho nk'ibitabo bakabasomera inkuru, bakabereka ibishushanyo kugira ngo bige neza ururimi rw'Ikinyarwanda.

Abana biga mashuri y'incuke cyangwa se abanza bigira hamwe bicaranye ku ntebe kandi bakaba bari gusomera hamwe ibitabo kugira ngo mwarimu wabo abashe kubafasha, abashyira mu matsinda mato mato hanyuma bakiga neza.

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se y'incuke kubera ko baba bakiri batoya hifashishwa ibishushanyo ndetse n'ibikinisho kugira ngo babashe kwiga gusoma no kwandika ikinyarwanda ndetse no kubara imibare itandukanye.

Ku mashuri cyangwa se ahandi harira abantu benshi nko kwa muganga; haba harubatswe ubwiherero rusange aho abantu bashobora kujyayo bakiherera, na none ubwo bwiherero buba bufite isuku kandi ari bwinshi kugira ngo buri wese abashe kubona aho ajya bitamugoye.

Ku muhanda wahasanga ibintu bitandukanye, aho ushobora kubona aho bacuruza ibyo kunywa, amashuri ndetse n'ibinyabiziga bidufasha mu gutwara ibintu n'abantu, ibyo byose uba usanga biri ahantu hatandukanye ku mihanda.

Abarimu bakoresha ibitabo bitandukanye kugira ngo bafashe abana mu masomo yabo, ibyo bitabo biba biri mu bubiko bw'ishuri, aho usanga iby'ubwoko bwose birimo na none buri bwoko bw'igitabo buba bufite ahantu buherereye ku buryo kububona byoroshye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza baba bataramenya imibare cyangwa se gusoma, ni yo mpamvu abarimu babo bifashisha ibikinisho bitandukanye cyangwa se ibishushanyo kugira ngo babigishe imibare, harimo kubara, gukuba, kugabanya cyangwa se guteranya.

Abana biga mu mashuri abanza na bo bashyiriweho gahunda yo kurira ku ishuri, aho iyo isaha yo kurya igeze bajya kuzana ibiryo ku gikoni hanyuma bakarurira hamwe kugira ngo bafate amafunguro, nanone abayobozi babo ndetse n'abarimu babibafashamo.

Mu mashuri cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu rusange, haba hari ubwiherero butandukanye, kugira ngo abakeneye kujyayo babubone, ubwo bwiherero buba bufite isuku bufungwa neza, kandi buri ahantu hatandukanye.

Abana biga mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye bakunda kwambara iniforume kugira ngo bagaragaze ko ari abanyeshuri kandi baba bafite isuku iyo bari gutaha mu muhanda, nanone bagenda bari gukina cyangwa se bari kumwe na bagenzi babo.

Ku mashuri hose ubu usanga hari ibyapa ndetse n'Idarapo ry'u Rwanda aho abanyeshuri mu gitondo babanza kuririmba indirimbo yubahiriza Igihugu kugira ngo bamenye neza Igihugu cyabo, nanone kurireba buri gihe bituma bagira indangagaciro.

Abana biga mu mashuri abanza, bakunda gukina, aho usanga iyo bagiye ku ishuri abarimu babo, babagenera igihe cyiza kugira ngo bidagadure, bakine n'abandi kandi barusheho kumenyana. Ibyo bituma baruhuka mu mutwe kandi bakishimira ishuri.

Abana biga mu mashuri y'incuke cyangwa se abanza, kugira ngo babashe gusobanukirwa ibyo biga, abarimu babo bifashisha ibishushanyo cyangwa se ibikinisho kugira ngo babashe kubigisha kubara no kwandika neza ururimi.

Iyo tugeze mu isomero ry'ikigo tuhasanga ibitabo by'ubwoko butandukanye bitewe n'amasomo icyo kigo cyaba kigisha. Ibyo bituma amasomo agenda neza kuko buri munyeshuri abona imfashanyigisho imufasha kwiga.

Abana batoya biga mu mashuri y'incuke ndetse n'abanza, kugira ngo abarimu babo babigishe, bifashisha ibishushanyo, kugira ngo babashe kumenya ibyo biga. Bashobora gushushanya nk'ibiti, inzu, ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, hanyuma bagashyiraho amazina yabyo.

Mu mashuri abanza abanyeshuri bigayo baba bakeneye ahantu bicara kugira ngo babashe gukurikirana neza amasomo yabo; niyo mpamvu abayobozi babo babubakira cyangwa se bakabakorera intebe zihuje n' uko bangana kugira ngo bajye bazicaraho babone n'aho bandikira.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza na bo bashyiriweho gahunda yo kurira ku ishuri cyangwa se gufata amafunguro ku mashuri yabo, ibyo bituma abanyeshuri bose baza kwiga kandi bikaba byarinda igwingira mu bana batoya.

Amashanyarazi tuyakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ibikorwa by'iterambere byiyongere. Hifashishwa ibikoresho bitandukanye kugira ngo amashanyarazi abashe gukwirakwira mu baturage ndetse no mu bikoresho by'ikoranabuhanga dukoresha.

Mu bigo by'amashuri naho hagezweho gahunda yo gushyiraho ibigega bifata amazi y'imvura kugira ngo azajye akoreshwa mu gihe kiri imbere. Ibyo bituma amazi y'imvura adapfusha ubuswa cyangwa se ngo agire ibindi bintu yangiza. Nanone byongera isuku ku banyeshuri.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye bigishwa mudasobwa kugira ngo bazazikoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi, haba mu kazi ndetse no guhangana ku isoko ry'umurimo, kwigisha ikoranabuhanga birabafasha cyane mu kwiteza imbere.

Abanyeshuri bajya bagira igihe cyo kuganirizwa ibintu bitandukanye urugero nko gukunda igihugu, umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro, na none bashobora gukangurirwa kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo.

Iyo tugeze ku muhanda cyangwa se mu nzira, aho ikigo cy'amashuri kiri, tubona ibyapa bigaragaza ko aho ahantu hari ikigo cy'amashuri. Icyo cyapa kibasha kuyobora abantu, kugira babashe kubona aho iryo shuri ryaba riherereye.

Abarimu iyo batanze ibazwa ku banyeshuri nk'ikizamini cyangwa se ibazwa ryo mu ishuri, bagira igihe cyo gufata impapuro abanyeshuri bakoreyeho, bakazikosora kugira ngo bamenye nimba batsinze cyangwa se batatsinze.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, bagira igihe bagakina umukino w'umupira w'amaguru, aho bishimira kuyikina bari kumwe na bagenzi babo. Na none abayobozi b'amashuri yabo babafasha ndetse bakabashyigikira.

Abanyeshuri iyo bari kwiga, mwarimu wabo agerageza kubajyamo, kugira ngo abashe kumenya niba buri munyeshuri wese ari gukurikira ibyo ari kumwigisha. Na none agenda abashyira mu amatsinda matoya, kugira ngo abashe gukurikirana buri munyeshuri.

Ikibaho ni kimwe mu bikoresho bigize ishuri kuko abarimu ndetse n'abanyeshuri ni cyo bakoresha kugira ngo bandikeho amasosomo kandi buri munyeshuri wese abashe gusobanukirwa ibyo mwarimu amwigisha anabibonesha amaso ye.

Abanyeshuri bari kwiga bagerageza gukurikira mwarimu wabo kugira ngo hatagira akiza kubacika. Na none mwarimu wabo akora uko ashoboye akavuga cyane kandi akaba ari ahantu buri munyeshuri wese abasha kuba yamubona.

Imbyino gakondo ni zimwe zigaragaza umuco nyarwanda, aho zigishwa mu mashuri ndetse iyo habaye ibirori bifashisha kwerekana umuco nyarwanda, abana bakiri bato ndetse n'urubyiruko batozwa izo mbyino kugira ngo babashe gusigasira umuco nyarwanda.

Iyo turi gutambuka cyangwa se tugeze ku bigo by'amashuri, tuhasanga ibyapa biranga icyo kigo aho biba bituyobora cyangwa se bikatubwira uko icyo kigo cyaba cyitwa, ibyo bifasha abantu kutayoba kandi bakagera ahantu neza nta kibazo bagize.

Abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, hashyizweho gahunda yuko kubafatira amafunguro ku ishuri, ibyo bikaba bituma babasha kwiga neza nta nzara bafite, kandi bakababona intungamubiri, na none bituma abanyeshuri baza ku ishuri ku buryo bugaragara.

Abanyeshuri bakoresha imfashanyigisho kugira ngo babashe kumenya byinshi ku bijyanye n'isomo bari kwiga, niyo mpamvu ku bigo by'amashuri haba hari isomero rusange ririmo ayo masomo ndetse n'ibitabo bitandukanye abanyeshuri bifashisha.

Ku mashuri uba usanga hubatswe mu buryo butangaje. Hab hazengurutswe n'amashuri, aho abanyeshuri bigamo ndetse hagati hari ubusitani bwiza cyane, burimo ubucaca ndetse n'indabo.

Abanyeshuri bakenera imfashanyigisho kugira ngo bige amasomo yabo neza. Ni iyo mpamvu abarimu ndetse n'abayobozi b'ikigo babifashijwemo na gahunda ya Leta, bashyiraho isomero rusange riba ririmo ibitabo bijyanye n'amasomo ari kuri iryo shuri.

Abarimu bigisha amashuri abanza cyangwa ayisumbuye, bifashisha imfashanyigisho zitandukanye kugira ngo batange ubumenyi bufite ireme ku banyeshuri. Bakoresha ibitabo, bagakoresha amarate, ndetse bakifashisha n’ikibaho kugira ngo babashe kwandika hakoresheje ingwa.

Iyo ugeze mu ishuri abanyeshuri bigamo tuhasanga ibikoresho bitandukanye bifasha abanyeshuri kwiga, harimo nk'ikibaho cyifashishwa kugira ngo abarimu ndetse n'abanyeshuri bandikeho amasomo yabo, nanone haba hari ibitabo, amakayi ndetse n'intebe bicaraho kugira ngo babashe kwiga neza.

Abarimu ndetse n'abanyeshuri bakenera ikibaho kugira ngo babashe kwiga neza. Mwarimu iyo yatevuye isomo, aryandika ku kibaho kugira ngo abanyeshuri na bo babashe kubona ibyo mwarimu abigisha, ibyo bigatuma isomo ryumvikana.

Abanyeshuri biga mu amashuri yisumbuye cyangwa se ya kaminuza, bagerageza gufashanya bagasobanurirana mu gihe umwe abyumva ashobora kujya imbere, hanyuma agasobanura bagenzi be, kugira ngo bose batsinde neza kandi babashe kugera ku ntego zabo.

Ku mashuri ubu usanga hanze yubatswe mu buryo butangaje cyane, haba hakikijwe n'ubusitani bwiza cyane, burimo indabo z'ubwoko butandukanye, ibiti bivamo imbuto zitandukanye, urugero nk'amaronji cyangwa se imyembe.

Iyo turi kugenda mu mihanda itandukanye, hari ikigo cy'amashuri tuhasanga ibyapa byerekana ko aho hantu hari ikigo cy'amashuri, icyo cyapa kiba kiriho iryo zina ry'ishuri ndetse n'amasomo iryo shuri ryaba ryigisha.

Iyo ugeze ku mashuri uhasanga hanze y'aho hari urujya n'uruza rw'abanyeshuri batandukanye, ibyo bigahita bikwereka ko aho hantu hari ikigo cy'amashuri nanone haba hari ibyapa bigaragaza uko icyo kigo cyaba cyitwa.

Mu Rwanda hagenda hubakwa amashuri menshi atandukanye kugira buri munyeshuri wese cyangwa se buri mwana abashe kugera ku ishuri bimworoheye, ayo mashuri bayegereza mu midugudu cyangwa se mu tugari kugira ngo birinde kuva mu ishuri abanyeshuri.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, bigishwa ibijyanye n'ikoranabuhanga kugirango bazabashe kugira ubumenyi bugezweho buzabafasha guhangana ku isoko. Abarimu babo bakora uko bashoboye bakabahugura ku bijyanye no gukoresha imashini cyangwa se mudasobwa.

Amashuri amaze kubakwa mu buryo bugezweho, aho usanga yubatswe ageretse kandi afite ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibiti bikurura umuyaga na none aba afite inzitiro nziza cyane, ku buryo nta bajura babasha kuhinjira.

Iyo ugeze ku bigo by'amashuri yaba abanza cyangwa ayisumbuye, uhasanga ibirango bigaragaza iryo shuri iryo ari ryo, idarapo ry'u Rwanda na ryo ni kimwe mu bintu bikunda kuba biri ku mashuri, aho byerekana ko bubaha ndetse basigasira igihugu cyabo.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, biga baba mu kigo babamo, bakenera imodoka rusange, kugira ngo zibavane mu rugo zibajyana ku ishuri, cyangwa se zibavane ku ishuri bataha mu rugo. Izo modoka zibageza mu rugo iwabo, kandi ibyo babifashwamo n'abayobozi b'amashuri bigaho.

Iyo tugeze ku muhanda cyangwa se ku marembo y'ikigo runaka cy'amashuri, tuhasanga ibyapa biranga icyo kigo, urugero nk'ibyo bigisha, ibyo bakora, abanyeshuri bigamo, ndetse n'uko icyo kigo cyaba cyitwa. Ibyo bigafasha abantu kuba bamenya uko babaza, ndetse niba ari ngombwa ko bajyayo.

Mu mashuri ayisumbuye cyangwa se kaminuza, abanyeshuri bakeneyera imfashanyigisho kugira ngo bige neza amasomo yabo. Niyo mpamvu hubakwa amasomero rusange, aba arimo ibitabo byinshi bihuye n'amasosomo abanyeshuri biga.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa kaminuza, bakenera ahantu heza ho kwicara ndetse n'utumeza kugira ngo babashe kwandika, ibyo bituma amasomo yabo agenda neza kuko baba bicaye ahantu heza kandi hafite isuku ku buryo nta kibazo bagira.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, iyo bagiye ku ishuri bakenera ahantu bari bwicare, kugira ngo babashe gukurikira amasomo mwarimu wabo abahereza, na none haba hari udutebe n'utumeza tubafasha kugira ngo babashe kwiga neza.

Ku mashuri uba usanga hari ubusitani bugaragara neza aho buba bwarubatse kugira ngo butume ishuri riba ryiza kandi bikurure umwuka mwiza ndetse n'imvura, nanone uba usangahubatswe amazu meza cyane agezweho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, iyo bagezeho babereka icyerekezo ndetse n'intego ry'ishuri ryabo, uba usanga barahize imihigo itandukanye kugira ngo ifashe abanyeshuri kwiga bafite intego kandi bikoroha kuyigeraho.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, iyo bari mu ishuri bakenera ahantu hicara kugira ngo babashe kumva neza ibyo biga, ni yo mpamvu hubakwa ndetse hakagurwa n'intebe nziza n'ameza kugira ngo abanyeshuri babashe gusobanukirwa ibyo biga.

Iyo twifuje kuruhukira ahantu hatandukanye n'aho dusanzwe dutuye, dushobora kujya mu mazu rusange yabugenewe aho abacumbikira abantu. Baba bafite ibyumba bifite isuku kandi bakakwitaho neza bakaguha n'ibyo kurya wifuza.

Mu nzu mberabyombi ahabera inama, uba usanga hari intebe zitatse neza ku buryo zigenda zisumbana, ku buryo abantu babasha kwicara bareba imbere bose, nta kibazo bafite kandi bakabasha gukurikira, ibiri kuvugwa muri iyo nama.

Ku bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, tuhasanga kizimyamwoto kuri buri muryango, izikaba zifasha mu kurinda inkongi y'umuriro yaba iteye inyubako mu buryo butunguranye. Zihora zihari kugira ngo zizifashishwe mu gihe zikeneye.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza, baba biga bataha kure y'iwabo. Ni iyo mpamvu abayobozi b'amashuri bubaka aho abanyeshuri bazajya baba, haba harimo ibyangombwa byose ndetse n'aho baba bicaye cyangwa se bakaba bahakorera amasuku.

Ku mashuri makuru ndetse na za Kaminuza, inyubako zaho ziba zubatse mu buryo bwihariye, aho inyinshi uba usanga ari inyubako ndende, aho bifasha abanyeshuri benshi kuba bahiga kandi bose bakabasha kuba bajyamo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bakenera abarimu kugira ngo babafashe gusobanukirwa amasomo yabo. Mwarimu arabigisha kandi aho batumva neza bakaba bamubaza nta kibazo kandi aba yiteguye kubasubiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, biga ibijyanye n'ikoranabuhanga, kugira ngo bagire ubumenyi rusange, bubafasha kuba hanze, kandi babibyaze umusaruro. Bakoresha mudasobwa zabugenewe ndetse n'abarimu babo, bakabibafashamo.

Iyo turi kugenda mu muhanda, tubona ibyapa bituyobora, aho bitwereka aho tugiye. Nanone, iyo nk’ikigo cy’amashuri, kikwereka ibintu bikorerwa ahongaho urugero, nk’amasomo biga cyangwa se ibindi bintu baba bahakorera.

Abayobozi bagira gahunda yo gukora inama kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye, iyo bagiye mu nama babahereza amazi kugira ngo bayanywe hanyuma batange n'ibitekerezo mu nama babashe kungurana ibintu bishyashya.

Hari ubwoko butandukanye bw'amashuri, aho usanga aya kaminuza yubatse mu buryo bwihariye. Aba ari amazu meza maremare, kandi hariho icyapa kigaragaza uko iryo shuri ryaba ryitwa, ibyo bigatuma abantu barimenya.

Abana biga mu mashuri y'inshuke na bo bafite amashuri yabo yihariye, aho usanga arimo udutebe dutoya ndetse n'utumeza, hariho ibikinisho, ibitabo bakoresha ndetse n'amakaramu yabugenewe abarimu bifashisha bari kubigisha.

Ku bigo by'amashuri, ndetse na kaminuza. Ubusanga hari icyumba cyagenewemo, gukorwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima. Aho bigiramo ibice by'umubiri by'inyuma, cyangwa se iby'imbere. Hanyuma bakabasha kubimenya binyuze mu kubyiga babireba.

Abanyeshuri biga muri kaminuza biga ibijyanye n'ubuzima bagira igice cyahariwe kwiga ubuzima babishyira mu bikorwa, ni iyo mpamvu hari ahantu haba haragenewe gukorera ibyo bintu hanyuma bikabafasha kumva neza ibyo biga.

Iyo dukeneye kuruhuka, tunaniwe cyangwa se twifuza gusinzira, dukenera ahantu heza ho kuryama. Hari ubwoko butandukanye bwa matera twifashisha kugira ngo turuhuke neza. Iyo turyamye ahantu heza, bigira uruhare mu gutuma turuhuka.